Umugabo w'umuhinzi wambaye ikabutura, wambaye n'inkweto uhagaze ufite pompe ku mugongo arimo ayikoresha atera umuceri umuti.

Umugabo munini wenda kuba muremure wambaye ipantaro, wambaye n'ikote uhetse igipombe wambaye n'agapfukamunwa arimo agenda umuceri atera umuti.

Umugabo uhagaze, ubyibushye, wambaye ishati kandi uri kumwenyura, ufite umusatsi mukeya, inyuma ye hari icyuzi kandi hirya yaho cyubakiye hari n'indi nyubako.

Mu kiyaga aho barobera harimo abagabo bane bateruye urucundura rurimo ibyo mu mazi harimo nk'isongi n'ibindi kandi na bo umwe atambaye hejuru, abandi bambaye imipira, undi yambaye ingofero, bose bafatishije amaboko yombi.

Ibiganza biteruye imbuto mu ntoki, harimo iziteze, harimo n'izeze zihiye zifite ibara ritukura, harimo n'izindi zifite ibara ry'umukara, harimo n'izindi ziri munsi y'ibiganza.

Mu kibaya ahahinze umuceri ku musozi kandi harimo abantu bane, bahetse ibyo basoromeramo barimo basarura, hakurya y'umuceri hari ishyamba rinini riwuzengurutse.

Umugore wambaye ingofero n'amataratara n'ijaketi y'umutuku numupira w'umweru imbere, ari gusoroma ikawa y'ibitumbwe itaratukura ariko imeze neza.

Icupa ririmo umuti w'amatungo imbere yaryo hariho udukarito tugiye twanditseho amagambo atandukanye kandi amwe ari mu ibara ritukura, andi mu ibara ry'umweru, hejuru yaho hashushanyijeho amatungo.

Amacupa atandukanye kandi ahagaze mu buryo butandukanye, irinini risa nk'aho iri imbere y'ayandi yose, hari n'irindi rirambitse andi nayo arateretse, rimwe ni umweru n'ayandi ni uko, ayandi ni amabara yihariye.

Umugabo wambaye sarubeti y'ubururu usutamye ku kiraro k'inka y'imbyeyi, arimo guhumuza akoresheje amaboko yombi, icyo bita kuvuruganya inka na yo ihagaze neza hirya ye hari undi na we uri gukama.

Ibihingwa bijya kumera nk'ibitunguru bikuze neza kandi bibyibushye biriho amababi yatangiye kuma ariko ayandi atari yuma akimeze neza, bibagaye bitarimo ibindi byatsi.

Igihingwa cy'ibigori kiri ahantu mu kibaya, gihinze ku buso bunini kandi nacyo cyinshi kigeze mu mugihe cyo kubangika.

Ikibaya kirimo ibihingwa kandi hakurya yacyo hari ishyamba rinini. Hino yacyo ahacyegereye hari ibiti by'imisebeya byakuze neza bijya hejuru iragara.

Ishyamba rinini ririmo bitandukanye bikuru, kandi hasi harimo ibihuru byiganjemo iby'inturusu n'imingabangagaba, inyuma yaho hari ikirere cy'umweru.

Umurima uhinze neza ugiye ugabanyijemo udukoroni kandi ugiye uteyemo ingemwe z'ibimera zitarakura neza ariko zigeze mu gihe cyo kugemurwa hakurya yaho hari akazu k'amabati y'umweru.

Amatiyo y'amazi aturuka mu butaka yose ahagaze arimo asohora amazi, amazi menshi n'amatiyo nayo ni menshi arenze arindwi ari mu kibaya cy'icyayi.

Abantu bambaye imyenda y'amataburiye y'umweru, bari mu bihingwa barimo bakora, bamwe bunamye abandi bahagaze, hejuru yabo hasakaye kandi bose bari gukora ikintu kimwe.

Icyayi gihinze ahantu ku musozi, kitarera neza ariko kirimo amatiyo, azamura amazi, amazi ari kuzamuka, arimo akivomerera kandi gishishe.

Imigano ikuze n'insina zishaje zirimo n'ibijangara n'abagore uhagaze mu kibaya ufite itiyo iri kuzana amazi arimo avomerera, inyuma ye hari umugabo na we uri gukora nk'ibyo uyu mugore ari gukora wambaye umupira utukura.

Umwana w'umukobwa uhagaze ukenye igitambaro wambaye ishati y'umweru afite rozwari y'umukara arimo ayisukisha amazi avomerera ibihingwa, inyuma ye hari akazu gashaje gasakaje, ibibati gafite urugi rw'ibiti, imbere yako hari imodoka ihaparitse.

Ingurube iri ahantu yonyine hitaruye nta kindi kintu gihari, yicaye ifite amatwi ariho iherena ukundi kuriho igisebe.

Inka iri ahantu mu rupango imbere yayo hari umugabo uri kuyifungirana, inyuma y'aho hari abandi bahagaze na bo bahafunze, inyuma y'aho hose hari izindi nka zihagaze na zo zitegereje kwinjizwa mu rupangu.

Kwa muganga ahari abaganga bahagaze bambaye amataburiye n'abakozi bambaye amakasike n'ubwirinzi mu mutwe, barimo bitegereza ahagize ikibazo.

Umugore wicaye ari gutunganya imyaka kandi wambaye ikanzu, ateze igitambaro kirimo amabara y'umweru n'andi atukura afatishije amaboko yombi ikintu yashyizeho imyaka afite.

Ibigori byinshi bimwe biri mu gitebo cyuzuye ibindi biri mu mifuka ibiri ibindi barimo babitsindagira, abagore batatu bahagaze, umwe ariwe uteruye umufuka undi ufite umwana undi ari inyuma y'ufite umufuka arimo amureba.

Inka z'inyambo, zihagaze ziri hamwe, ziri kureba mu byerekezo bitandukanye, kandi zimwe zibyibushye, izindi zitabyibushye, zimwe zishonje, izindi zidashonje, ariko zose nta n'imwe ifite ubwatsi.

Imbwa bayihagaritse irimo yitabwaho, abandi bahagaze barimo bareba umuganga yambaye ibyuma mu matwi ari gukanda kuri terefone, imbere ye hari inshinge hirya hari abandi barimo bamureba.

Kwa muganga mu cyumba hariyo ibikoresho bitandukanye n'umuganga wambaye itaburiye y'umweru kandi ufite ikaramu ku mufuka, yambaye agapira k'umweru imbere na ga afite ikintu mu ntoki ari gusuzuma.

Inyana imaze kuvuka, iryamye hasi, utwatsi ifite amabara y'umweru n'ay'umukara, inyina yayo iyiri hejuru, irimo iyikomba, kandi ifite ubwari bunini, nayo ihagaze.

Inka z'inyambo nini zibyibushye ziri mu rupango ahantu zubakiye kandi imbere yazo hari umushumba, hari n'undi mugabo wambaye itaburiya y'umweru ufite inkoni.

Inka nyinshi ziri mu rupango, hagazemo n'undi muntu, inyuma hari igiti kimanitseho ikote, imbere yarwo hari umugabo wambaye isarubiti y'ubururu n'inkweto zifunze, na ga mu ntoki afashe ku rupango ari kureba mo imbere.

Inyamaswa z'amoko atandukanye ziri hamwe ahantu mu ishyamba hari ibyatsi bikuze ariko bitazisumba, harimo n'ibiti by'imisebeya nabyo bikuze ariko bitari binini cyane, noneho nazo zirimo zihagaze.

Mu ishyamba ahari inyamaswa zo bita udusumbashyamba zihagaze, ebyiri imwe ireba aho indi iri guturuka, imwe yazamuye ijosi iyindi yaryunamishije, inyuma yazo hari igiti kibyibushye kandi kinini, imbere yacyo hari utwatsi dukuze neza.